Umwana w'umuhungu wambaye ikabutura itukura, ari kunywa amazi akoresheje amashyi, impande ye hari indobo, ruguru ye hari ibiti.

Umwana muto w'umukobwa, wambaye imyenda y'amabara atandukanye, umukara, umweru n'ubururu, ari kuvoma kuri robine imbere ye hari indobo zihateretse.

Abantu bambaye imyenda y'amabara atandukanye, harimo umuhondo n'umweru. Umugabo ari kugaburira umwana ibiryo.

Abana batatu baje kuvoma amazi, iruhande rwabo hari umuntu mukuru uri kubafasha abapompera.

Abagabo n'abagore bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bahagaze imbere y'inyubako, impande yabo hari idarapo ririmo amabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Abana babiri bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bari gukinira munsi y'itiyo ivamo amazi.

Abantu batandukanye baje kuvoma. Harimo umudamu ufite amajerekani abiri mu ntoki. Bose bambaye udupfukamunwa.

Abana benshi bambaye imyenda y'amabara atandukanye, bari gukarabira kuri robine ifite utwenge twinshi, hasi hari ibase itukura iri kujyamo amazi.

Umumama wambaye imyenda y'amabara atandukanye, ufite umutsatsi wa natireli, imbere ye hari ibase iteretsemo ijerekani y'umuhondo, impande ye hari ubusitani.

Abantu batandukanye barimo abagabo n'abagore bambaye imyenda y'amabara atandukanye bahagaze imbere y'inyubako kuri esikariye.

Umumama wambaye imyenda irimo amabara atandukanye, umuhondo n'umukara. Yikoreye igitebo kirimo ibintu by'amabara y'icyatsi.

Abantu batandukanye barimo umugabo n'umugore bambaye imipira y'umweru, barimo baraseka umudamu afite imisatsi y'umukara.

Abantu babiri bambaye imyenda y'amabara atandukanye: ubururu n'umweru. Ugeze mu za bukuru n'ukiri muto, barimo guseka.

Umugabo n'umugore bageze mu zabukuru, umugabo yambaye umupira w'ubururu, umudamu yambaye umupira w'icyatsi, imbere ye hari icupa ry'umuti n'ikirahure cy'amazi.

Abantu batatu bari hamwe bishimye harimo umwana muto n'ugeze mu za bukuru, harimo umudamu wambaye amarinete, akaba afite n'imisatsi iboshye ku mutwe we.

Umugabo ugeze mu za bukuru wambaye imyenda y'amabara atandukanye harimo umutuku n'umweru imbere ye hari amafunguro atandukanye n'ikirahure cy'amazi.

Abamama batandukanye bambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu, umutuku n'umweru, bari mu murima w'icyayi, bafite ibitebo bari kugenda basoromeramo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, byifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bishasheho amashuka, bimwe muri byo biryamyeho abarwayi.

Inyubako y'ubuvuzi yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati y'ubururu. Imbere yayo, hari icyapa kigaragaza serivisi zikorerwa aho hantu.

Inyubako nziza isakajwe amabati y'umukara ifite amarangi y'umweru, imbere yayo hari ubusitani muri parikingi, ku ibaraza hari imodoka ihaparitse.

Inzu y'ababyeyi yubakishijwe amatafari ahiye, iri mu ibara ry'umuhondo. Imbere yayo ku ibaraza hari abantu benshi, bamwe baricaye, abandi barahagaze, bari kwifotoza.

Icyumba cy'inyubako kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, byifashishwa mu gukora siporo ngororamubiri.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi iri mu mabara atandukanye ishakajwe amabati y'umutuku, hari abantu baje gushaka serivise itangirwa aho hantu.

Umugabo wambaye umupira wijimye, ari kunywa icupa ry'amazi, inyuma ye hari amabara y'umweru n'icyatsi, uko bigaragara burije.

Abagabo babiri bafite imipira mu ntoki, umwe yambaye ikabutura n'umupira utukura, arimo arirukanka impande ye hari undi wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara, arimo arareba igihe akoresha ari mu myitozo.

Ibintu byo mu bwoko butandukanye, harimo, inanasi, amaronji, indimu, imineke na pome, imidari n'ibinini.

Icupa rifite amabara y'icyatsi n'umuhondo n'umweru, ririmo umuti ukomoka ku kimera cyitwa igikakarubamba gikoreshwa mu kuvura.

Amacupa atandukanye ari mu mabara y'umuhondo, ubururu, umweru n'umutuku, amwe ashushanyijeho igikakarubamba.

Inyubako irimo imiti itandukanye, hari umugabo uhagazemo wambaye ingofero ya kisiramu, yiteguye kwakira abakiriya.

Amacupa abiri afite amabara atandukanye umweru, umuhondo, harimo amavuta akomoka ku kimera cyitwa igikakarubamba.